Inama yitabiriwe n'ingeri zombi, abagore ndetse n'abagabo bafite amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange, bakayatunganya, bakayashyira mu bikoresho byabugenewe.

Inama iyobowe n'umugore wambaye umwenda w'umweru urimo ubururu ndetse n'umukara akaba afite mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame .

Inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, bari mu ngeri zose, harimo n'abakambwe basheshe akanguhe, ku meza hateretseho indabo ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ubururu.

Umuyobozi wakoresheje inama abantu batandukanye y'abayobozi afite icyuma cy'indangururamajwi cyifashishwa mu mbwirwaruhame ifite ibara ry'umukara ndetse n'amazi .

Abategarugori bambaye imishanana bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, ndetse hakaba hari n'abateze udutambaro two mu mutwe turi mu ibara ry'umutuku, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bigendanwa mu ntoki.

Urubyiruko ruri kwigira hamwe ku cyateza imbere igihugu, bafite amazi ari mu macupa akorwa n'uruganda rw'Inyange, aba atunganyijwe neza mu buryo bw'isuku.

Abantu bari mu nama bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cyamaze abantu cya korona virusi, ndetse bakaba bafite n'ibikoresho bindi.

Abagore bagaragara nk'abayobozi bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari za mudasobwa. Bicaye ku murongo w'uruziga, rufite imirongo itatu.

Abagore bambaye amakote bitabiriye inama iganirwaho ibintu bigiye bitandukanye, bakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu ndangururamajwi bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Abagabo ndetse n'abagore bitabiriye inama iganirwaho n'ibintu bimwe na bimwe ndetse bakaba bambaye impuzankano zose zisa ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Inama yitabiriwe n'urubyiruko rwa mbaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru umuyobozi uri kubaha ikiganiro afite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu itumanaho.

Abagabo baje mu nama cyangwa mu nteko ishingwa amategeko, bafite amacupa y'amazi imbere yabo yatunganyijwe n'uruganda rw'Inyange akayashyira mu macupa ayirinda kwangirika.

Umugore w'umuyobozi uhagarariye inama ufite icyuma k'indangururamajwi ndetse inyuma ye hari imodoka nini cyane zitwara abantu ndetse n'ibintu.

Inama yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye bigize umugabane w'Afurika ndetse ikaba yahuje ingeri zose abagabo, abagore, abasaza, abakecuru ndetse n'inkumi.

Inteko y'inama y'abaturage bitabiriye bari kuganirizwa ku birebana n'ubufasha bubahabwa, umuyobozi ahagaze hagati yabo afite icyuma cy'ikoranabuhanga cy'indangururamanjwi.

Abagabo ndetse n'abagore bitabiriye inama bafite mudasobwa cyangwa amakayi, hari umunyamakuru ukora umwuga w'itangazamakuru ufite icyuma gifata amajwi n'amashusho.

Abantu barimo urubyiruko baje kwamagana indwara ya sida bakaba bafite igipapuro kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru imbere yabo hakaba hari ushinzwe umutekano.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane, bari mu ihema riri mu ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara ndetse imeza itatseho indabo nziza cyane ziri mu ibara ry'umweru.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe ziri mw'ibara ry'umutuku ndetse hejuru hasize irange ry'umweru ndetse hasi yashashe igitambaro cy'ubururu.

Abagabo bari mu nama yigira hamwe ku cyateza imbere igihugu bambaye amadarobindi imbere yabo hari mudasobwa bari kwifashisha ndetse n'icupa ririmo amazi y'uruganda rw'inyange.

Abagabo n'abagore bitabiriye inama irebera hamwe icyateza imbere igihugu, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki bigendanwa.

Inaba igizwe n'abayobozi yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gusaka amajwi mu imbwirwaruhame ndetse bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Inama yitabiriwe n'ingeri zose harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bafite amacupa arimo amazi y'uruganda rw'inyange aba yatunganyijwe neza akabikwa.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose abagore n'abagabo, abanyamahanga ndetse n'abaturarwanda bafite ibitabo, ndetse n'amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange agafungwa neza.

Bari mu nama bayobowe n'umugore wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru ari kuba sobanurira ibintu byinshi byari bitandukanye hari abafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amacupa y'amazi.

Inama yitabiriwe n'abantu ingeri zose abagore, abagabo, urubyiruko rwiganjemo abasore, n'inkumi bose bafite imbere yabo amacupa y'uruganda rw'inyange bicaye ku ntebe ziririmo ibara ry'umweru.

Inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, imbere hari i meza iteretseho uducupa tw'amazi dukorwa n'uruganda rw'inyange, tukayafunga neza bambaye imyenda y'amabara menshi atandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bagiye bicaye mu byiciro, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku ndetse hasi hashaje igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu hacanye amatara y'umweru.

Inama yitabiriwe n'ingeri zigiye zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bafite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kwandika yitwa mudasobwa.

Inama yitabiriwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari kwigira hamwe ku cyateza imbere igihugu, hakaba harimo abafite amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange afunze neza.

Inama yitabiriwe n'impande zombi abanyamahanga ndetse n'Abanyrwanda, hakaba hifashishijwe igikoresho k'ikoranabuhanga mu ndangururamajwi ,ndetse hakaba harimo n'abafite mudasobwa.

Inama yahuje abagore ndetse n'abagabo kumpande zombi, bayitabiriye baganira hamwe kubyateza imbere igihugu, bafite amacupa arimo amazi y'uruganda rw'inyange, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye bari mu ngeri zose, harimo abagore, abagabo, abakobwa n'abasore. Bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse bafite impapuro zo kwandikaho.

Umugabo uyoboye inama yitabiriwe n'ingeri zose, afite icyuma k'indangururamajwi gikoreshwa mu mbwirwaruhame, iruhande rwe hateretse imeza iriho agacupa k'amazi.

Umugabo uyoboye inama, ufite mu ntoki icyuma cy'ikoranabuhanga gisakaza amajwi mu mbwirwaruhame ndetse imbere ye ku meza hatereretse ibikoresho by'ikoranabuhanga bigendanwa mu ntoki.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ufite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame ku buryo buri wese yumva.

Umugabo uyoboye inama ufite icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu ndangururamajwi y'imbwirwa ruhame, ahagaze imbere y'abantu ari kubabwira ku bijyanye n'iyo nama.

Urujya n'uruza bitabiriye inama bakaba bari no mu muhango wo gutanga impano cyangwa igihembo bagiha umwe muri bo bakaba bafashe ifoto.

Inzu ikorerwamo itangazamakuru bafite ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukurura amajwi ndetse n'amashusho kandi bakaba bafite n'ibyuma by'indangururamajwi.

Abayobozi bitabiriye inama biganjemo abayobozi bayobora umutekano mu gihugu cy'u rwanda intebe zirasa ibara ry'umukara ndetse bafite n'ibicupa by'amazi .

Inama yitabiriwe n'ingeri zose iyobowe n'umugore imeza zikaba ziriho ibitambaro biri mu ibara ry'umutuku ndetse bakaba bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Inama yitabiriwe n'abantu bayiye batandukanye b'ingeri zoze, ku meza hariho igitambaro kinini cyiri mu ibara ry'umukara, ndetse hateretseho na mudasobwa bari gukoresha.

Abanyeshuri bagizwe n'abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, banambaye udutambaro two mu mutwe tw'ibara ry'umweru.

Inama yitabiriwe n'abanyamahanga ndetse n'abaturarwanda, bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye bose bafite amacupa y'uruganda rw'inyange y'amazi bari kunywa.

Inama igizwe n'abayobozi bagiye batandukanye bafite indangururamajwi imbere yabo zikozwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amacupa y'icyo kunywa na mudasobwa.

Bari mu nama bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa ndetse mbere yabo hari n'amacupa y'inyange y'amazi aryoshye kandi azira ubuziranenge.

Abantu benshi bicaye mu gikoresho gitwara abantu k'ikinyabiziga, bafite mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa bari kwifashisha mu kwandika.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'irembo ni urubuga rwifashishwa mu gutanga ibyangombwa bigiye binyuranye harimo cy'uko utafunzwe ndetse n'ibindi byinshi.

Uko wamenyekanisha avansi y'umusoro ku nyungu, ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki, ukanze *800#.

Uburyo wakoresha umunyekanisha ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ni urutonde runini ruri ku gipapuro kiri mu ibara ry'ubururu.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, bagiye bicamo uduce kugira ngo baganire bakaba bicaye ku ntebe ziriri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse bakaba bari n'ahantu hari amatara yaka umweru.

Umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu ni imwe za buri mwaka ukwezi k kuboza ndetse iryorewe ari itangazo ry'ikigo gishinzwe imisoro

Umunara muremure cyane w'itumanaho, hariho ibyuma bifashishwa m'ugukurura uburyo bwo guhamagara ndetse no kwakira ubutumwa bugufi butandukanye.

Abantu benshi bahagaze hanze bari kuganira higanjemo igitsina gabo ku mpande hajya hari ubusitani, burimo n'ibiti kuri umwuka mwiza bigafata n'isuri.

Umunara muremure w'itumanaho wubatswe mu byuma bikomeye, uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ku mpande hakikijwe n'ibidukikije bigizwe n'amashyamba y'ibiti.

Urubuga ukoresha wishyura unamenyekanisha imisoro ku nyungu bireba abacuruzi cyangwa abandi bifuza kuba batanga umusoro, uburyo rero wahindura umubare wawe wibanga ukoresha.

Umunara muremure cyane wubatse mu buryo bugezweho bufite umutekano, uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku ukaba ukikijwe n'utundi twuyuma turi mu ibara ry'umukara dukomeye.

Umunara muremure, uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ikirere kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, gikeye, gisa neza, ndetse uwo munara wubatse mu byuma bikomeye.

Urubuga rushakira abakozi abakoresha ndetse aho umukoresha ahuriraho n'umukozi bakaganira ku mushahara bakumvikana aho gukorera ndetse n'inshingano z'umukozi.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'irembo ni urubuga rushabirwaho ubufasha bugiye butandukanye nko kwishyura ubwishingizi mu kwivuza, kwandikisha umwana wavutse, gusaba ibyangombwa bigiye bitandukanye n'ibindi.

Abakozi benshi bari ku murongo bari gutunganya ibikoresho bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa n'ibizigize, ndetse bakaba bafite imbere ya bo ibyo bice.

Urubuga rw'irembo rutangirwaho ubufasha bugiye butandukanye bw'ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda, ndetse n'ibyangombwa bisabwa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse na kaki, bakaba bicaye ku ntebe zibajwe mu mbaho, imbere yabo buri wese afite mudasobwa.

Urubuga rwifashishwa mu kureba cyangwa kwishyura umusoro bitewe n'igihe cy'umwaka kigiye gitandukanye aho urukoresha wirinda gucibwa amande.

Abantu benshi bateraniye hamwe bafite imbere yabo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, bandikamo cyangwa bakabikamo amakuru yifashishwa, ndetse bakaba babikoresha mu bundi buryo.

Itangazo rireba abantu bishyura imisoro, bashishikarizwa kwigaragaza ku bushake, hakaba habura umunsi umwe bakishyura batarengeje ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Uburyo bwa kijyambere bugezweho kandi bukomeye ifite amabara meza cyane, harimo umutuku, umweru n'ayandi, ikaba yubatse mu igorofa, hakaba hariho iminara.

Ibyuma binini cyane by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kubika no kugenga umuriro w'amashanyarazi kugirango hirindwe inkongi z'umuriro hejuru ku musozi hariyo ibidukikije byiganjemo ibiti .

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito bitwara abantu n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti by'ibidukikije.

Ibiri yubakishijwe ibyuma bikomeye ,miremire iriho intsinga z'umuriro w'amashanyarazi zikwirakwiza hirya no hino ndetse hari n'inzu zubatse mu kajagari.

Kirere gikozwe mu byuma gishyirwaho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse kigatanga n'urumuri ahantu hagiye hatandukanye.

Inzu iri hakurya iri mu ibara ry'umweru ifite amadirishya yijimye ari mu ibara ry'umukara; ipoto cyangwa se igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Umuhanda w'abanyamaguru wegeranye nuw'umukara ukaba urugendwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito bitwara abantu n'ibintu ku nkengero hari ibidukikije by'ibiti by'inganzamarumbo ndetse n'umunara wubakishijwe ibyuma.

Inzu itaruzura neza iri kubakwa hari igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse kuruhande hari igiti kiriho amashami menshi.

Ibiti birebire cyane biriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi biri ku muhanda ku nkengero hagiye hari ubusitani bwiganjemo indabo zitandukanye.

Igiti kirekire gikozwe mu cyuma gikomeye kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino hakaba hari n'ibiti bikikije urugo.

Umunara muremure cyane wubatswe mu byuma uriho insinga z'amashanyarazi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro hirya no hino, hari kandi igiti cy'inganzamarumbo.

Ibidukikije bigizwe n'ibiti, ubusitani bwiza bugizwe n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse hari ibiti birebire bifashe insinga z'umuriro ukwirakwiza amashanyarazi.

Abubatsi benshi bakora umwuga wo gusana insinga z'umuriro ukwirakwiza amashanyarazi mu nshe zigiye zitandukanye bari ku cyuma kirekire

Igipangu gucururizwamo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku hirya gato hari umugabo ufite igikoresho gitwara imizigo hariho amajerekani.

Umunara muremure cyane wubatse mu byuma, ukwirakwiza insinga z'umuriro w'amashanayrazi, zifite imbaraga zo gucana mu karere. Ndetse hakaba hari n'igiti cy'inganzamarumbo.

Ibiti birebire biriho insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro hirya no hino. Ibiti byibidukikije bidukururira umwuka mwiza duhumeka ndetse bigafata n'isuri n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu zubatse neza zisize irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo ,mu muhanda w'abanyamaguru ubusitani bunini cyane ndetse n'ibiti byiza bibuhinzemo hari kandi igiti kirekire kiriho insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi.

Igiti kirekire gikoreshwa cyifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ndetse ku ruhande hari ikimodoka kinini gitwara imizigo kiri mu ibara ry'umutuku.

Umunara muremure wubatse muburyo bugezweho bwa kizungu ndetse ukoresheje ikoranabuhanga mubyuma, uriho insinga zamashanyarazi zikwirakwiza umuriro hirya no hino.

Imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga mu buryo bwihuse kandi bugezweho, ihagaze mu tubuye twiza.

Inzu zubatse muburyo bwiza kandi bugezweho za amagorofa, ziriho utwuma dukomeye ndetse zikaba zisize amarange atandukanye nk'umeru n'umukara.

Ibitaro binini cyane byitiriwe umwami fayisari biherereye mu mujyi wa Kigali, bikaba byubatse mu buryo bw'amagorofa asize irange ry'umweru n'ibirahure byijimye ku mpande hakaba hari ibiti.

Ikigonderabuzima abaganga babiri bita ku barwayi, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, ndetse bari kuganira ku birebana n'ubuzima bw'umurwayi, uryamye ku gitanda kiri mu ibara ry'umweru.

Abayobozi bari gutaha inyubako y'ikigo nderabuzima ku ruhande hahagaze imodoka nini cyane iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku yifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga ku gihe.

Inteko y'inama y'abaturage bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye; imbere yabo hari umuyobozi; ku mpande bakikijwe n'ibidukikije bigizwe n'amashyamba y'inzitane.

Aho baburanira mu nzu y'ubushinjacyaha, hari abashinjacyaha bicaye imbere bambaye udupfukamunwa bafite amacupa y'amazi y'uruganda rw'Inyange ndetse hari imfungwa yaje kuburanishwa.

Umugabo ukora mu rwego rw'ubushinjacyaha, akaba yambaye ikanzu ndende iri mw'ibara ry'umutuku, ndetse n'amadarubindi yifashishwa ku bantu bafite indwara y'amaso, n'ingofero iri mw'ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye bafite ibikoresho by'indangururamajwi byifashishwa mu mbwirwaruhame, ndetse hakaba hari n'imeza mbere yabo.

Abagabo batatu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, umwe imbere ye yambaye amadarubindi ndetse afite na mudasobwa imbere ye yifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye.

Umugore n'umugabo, Umugabo w'umushinjacyaha wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ishati irimo ibara ry'umweru afite mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga bombi bambaye udupfukamunwa bari mu nteko ishingamategeko.

Gereza iherereye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze ku igororero ry'imfungwa rifungiyemo abantu batandukanye bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye hakaba hari ibidukikije.

Umugore ukora umwuga w'ubushinjacyaha wambaye ikanzu iri mwibara ry'umutuku, ndetse n'amadarubindi yifashishwa mu kugira ngo ubone neza mu mugihe ufite indwara y'amaso

Abayobozi ndetse n'abanyamategeko bambaye imyenda y'akazi yabugenewe y'impuzankanani iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru bambaye udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu.

Imfungwa zambaye imyenda isa inyuma yaho hari itangazamakuru ndetse n'uzirinda zose zambaye udupfukamunwa turi mu ibara ry'umutuku ndetse bicaye ku ntebe z'umukara.

Benshi bagizwe n'abayobozi inyuma hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse bambaye imyenda ifite amabara nk'umutuku, umukara, umweru, umuhondo n'ayandi n'ayandi.

Imfungwa cyangwa abagororwa bafungiye mu kigo, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'udupfukamunwa, bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bya mudasobwa.

Umugabo wambaye inyakiramajwi wambaye n'imyenda iri mu ibara ry'umukara arikumva ibigize inama ndetse inyuma ye hari inzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru.

Ikigo cyimfungwa cyabagororwa bagororerwa hamwe, cyubatse muburyo bukomeye Kandi burambye hakaba hari imfungwa zifite amacupa ari mwibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri hagati hicayemo imfungwa ifungwa izira icyaha ndetse imbere ye hakaba hari mudasobwa, ku ruhande hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame.

Umugabo wambaye imyenda y'ababuranyi cyangwa se umushinjacyaha iri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umuhondo akaba agiye kwifotoza.

Umugabo w'umushinjacyaha wambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, ufite amaso atukuye arwaye ndetse afite n'imvi.

Ikigo cy'imfungwa cy'i Nyanza kigororerwamo abagororwa bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, kiri mu ibara ry'umukara, umuhondo ndetse n'umweru.

Ikigo ngororamuco cyangwa gereza ya Huye ifungiwemo imfungwa zakatiwe igifungo k'imyaka runaka bitewe n'ibyaha bakoze. Hubakishijwe amabuye akomeye ndetse n'ibyuma.

Igikoresho kiri mu icupa ry'icyuma, gifite ibara ririmo imituku cyifashishwa mu kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro, ndetse n'ahabereye impanuka yaterwa n'inkongi y'umuriro.

Umuhanda w'umukara uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kiri mu ibaramu ry'umukara ndetse n'umweru, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru ndetse hejuru gato hari ibiti by'ibidukikije bitanga umwuka mwiza bikanarinda n'isuri.

Ingabo z'u Rwanda zishinzwe gucunga umutekano mu mpande zose z'isi, zambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara, ku kuboko hari n'ikirango cy'u Rwanda cy'ibendera ndetse bafite n'intwaro.

Urwego rw'ubushinjacyaha ndetse naho bafungira abantu bakanakora iperereza, ruherereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali, hahagaze imodoka ziri mw'ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Imodoka y'ikigo gishinzwe umutekano, iri mu ibara ry'umweru, ndetse n'umukara ku ruhande hakaba hari ikimodoka kinini cyane, gitwara imizigo iremereye kiyambutsa imipaka.

Inzu iriho ibendera ry'igihugu riri mu ibara ry'ubururu umweru icyatsi kibisikaba ashushanyijeho n'izuba ari gutambuka imbere umugore ndetse hari n'igiti.

Icyicaro gikuru cy'abashinzwe umutekano mu Rwanda giherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka Nyarugenge, aho ubagana ufite ikibazo ku mutekano cyangwa se ubundi bufasha.

Abakozi bakora ndetse bakanatunganya ibinyabiziga mu gihe byagize ikibazo, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, ku mpande hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Umukara unyurwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito, hari ikimodoka kinini cyane gitanga amazi kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse ku mpande hari ibiti.

Umugabo ushinzwe umutekano w'ibinyabiziga ari kuyobora ikinyabiziga gitwara abantu benshi kiri mu ibara ry'umweru, kumpande hari akayira k' abanyamaguru gakikijwe n'ibidukikije.

Ibikoresho bibiri byo mu byuma byubatswe mu buryo buhambaye, byifashishwa mu gukumira no kuzimya inkongi y'umuriro, bishyirwa ahahurira abantu benshi biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umugore wirabura w'umuyobozi wicaye mu ntebe iri mu ibara ry'umukara ndetse wambaye ikote risa n'ishati iri mu ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'amadarubindi.

Abaturage baje kwamamaza ishyaka ryitwa efuperi rigizwe n'amabara atatu ubururu umweru ndetse n'umutuku bafite ibyishimo bamanitse ibiganza.

Umugabo wambaye imyenda myiza cyane igezweho, iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku akaba yambaye amataratara ari mu ibara ryiza.

Abagore ndetse n'abagabo, bahagarariye abandi b'abayobozi, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, bafite udukoresho tw'ikoranabuhanga twifashishwa mu ndangururamajwi n'imbwirwaruhame,...

Umugore wicaye ku ntebe ibajwe mu mbaho ndetse akaba yicaye mu busitani, akaba yambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku umukara n'umuhondo, hakurya hari ibiti.

Umukuru w'ishyaka ryitwa FPR riri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku. Ari kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda wa kera witwaga Habyarimana, yari umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, yambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara.

Abayobozi babiri bari kumwe bitabiriye inama, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, bafite mu ntoki amakayi ndetse n'amakaramu bari kwandika ibyavugiwe muri iyo nama, ndetse inyuma yabo hari ibara ry'ubururu.

Umugabo wiyogoshesheje wazamuye akaboko, wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu, imbere hakaba hari mikorofone, inyuma ye hakaba hari dolise y'amashokora ndetse munsi hakaba hari amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, handitseho Dogita Utumatwishima Ja, munsi hakaba hari n'undi.

inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo hari umuyobozi uri imbere yabo ufite akuma k'ikoranabuhanga gashinzwe gusakaza amajwi mu mbwirwaruhame ndetse buri wese afite icupa ry'amazi

Inama y'abagore yitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, bose barahagaze, bari gutera akaririmbo ka morale, ndetse bafite amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange.

Inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, bakaba bafite amacupa y'amazi banywa mu gihe cy'akaruhuko, imbere hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga gisakaza amajwi n'amashusho.

Umukandida w'umugabo, uri kwiyamamazira kuba umukuru w'igihugu, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ku ijosi hariho agatambaro k'umuhondo, ari mu modoka iriho ikirango cye.

Amajwi y'abagabo batatu biyamamarije ku mwanya w'umukuru w'igihugu harimo Poro kagame habineza furanke ndetse na mpayimana Filipe akaba ari ku ijanisha ritandukanye.

Abagabo bahagarariye abandi inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara ndetse ku meza yabo hateretse amacupa abiri y'amazi y'uruganda rw'inyange .

Mu bihe bidasanzwe byo kwiyamamaza umuyobozi w'itsinda rya Efuperi ari kwiyamamaza nyakubahwa Paul kagame yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umukara.

Amashyaka agiye atandukanye yiyamamariza ku mwanya w'ubukuru bw'igihugu, harimo amabara y'umutuku, umweru, ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, buri ishyaka rigiye rifite ikirango cyaryo.

Umugore uyoboye inama wambaye ikote riri mu ibara ry'umukara n'agapiramo imbere karirimo ibara ry'umweru, ku imeza ye, hateretse amacupa abiri yakozwe n'uruganda rw'Inyange.

Umukuru w'igihugu uhagarariye ishyaka ryitwa efuperi, akaba yerekeje mu cyumba cy'itora, amaze gutora afite agapapuro mu ntoki k'ijwi ry'uwo yatoye.

Haba umwuga w'itangazamakuru bafite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukurura amajwi ndetse n'amashusho bari kugenda bafotora umugabo wambaye umwenda w'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umuyobozi w'ishyaka ryiyamamariza ubutegetsi ryitwa efuperi ahagarariye abandi nyakubahwa perezida Paul Kagame ari kwiyamamaza yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru n'agapfukamunwa.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibitoya bitwara abantu n'ibintu, hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse ku mpande hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo.

Aho bategera imodoka zizenguruka mu mujyi wa Kigali, hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara, ndetse imbere ye hari imodoka nini cyane itwara abantu benshi, iri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito, ibyikorera cyangwa iby'umuntu ku giti ke bitwara abantu ndetse n'imizigo ku nyengero hari akayira ka banyamaguru.

Umuhanda w'umukara urimo uturongo tunini tw'umweru, twerekana aho abanyamaguru banyura bambuka, hirya hari ikimodoka kinini cyane gitwara imizigo iremereye kiri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito hakaba hari gucamo ikimodoka kinini cyane cyambukiranya imipaka gitwara imizigo igiye itandukanye kiri mu ibara ry'umweru ndetse

Imodoka nini cyane itwara abantu benshi, ibajyana mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru, yacanye amatara maremare.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bihagaze ku murongo uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hakurya hari akajagari k'abantu barimo banyuranamo .

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini cyane cyambukiranya imipaka ndetse kikanagenda mu mujyi wa Kigali, gifite ibara ry'ubururu.

Imodoka ninni cyane iri mu ibara ry'umweru itwara imizigo iremereye, hariho igishashi kinini kiri mu ibara ry'ubururu gifunga neza ibyo bikoresho kugira ngo bitangirika.

Umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, uri mu ibara ry'umukara, hari kugendamo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, kinini cyane gitwara imizigo iremereye.

Uyu muhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, ndetse ku nkengero z'uwo muhanda hari ibiti bigizwe n'ibidukikije.

Umuhanda wumukara urimo imirongo y'umweru ugendwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu ari kugendamo imodoka iri mu ibara ry'umweru, ndetse ku mpande hari ibiti by'ibidukikije.

Ahategerwa imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Haparitse imodoka zitandukanye za sosiyete zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Hari kandi urujya n'uruza rw'abantu bashaka gutega.

Umuhanda nyabagendwa, ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru gakikijwe n'ibidukikije.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bito ndetse n'ibinini, hari kunyuramo ikinyabiziga gitwaye umuntu, ndetse ku nkengero z'uwo muhanda hari ibidukikije byiganjemo ibiti.

Umuhanda w'umukara uri kugendwamo, n'imodoka ifite ibara ry'umweru, ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu, hirya gato hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu kiri kugendera mu muhanda w'umukara ku mpande hari inzu z'ubucuruzi zisize amabara y'umutuku ndetse n'ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu kiri kugendera mu muhanda ukoranywe ubuhanga buhanitse uri mu ibara ry'umukara ku nkengero z'uwo muhanda hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'indabo.

Umuhanda w'umukara uri kunyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga. Harimo ibinini bitwara abantu n'ibintu, ikimodoka kinini gitwara imizigo, kiri mu ibara ry'umweru, ndetse ku nkengero hari ibiti.

Urujya nuruza rw'abantu bingeri zose hari igikoresho kifashishwa mu gutunda imizogo kiri mu ibara ry'umutuku kicawemo n'umugabo wambaye umwenda iri mu ibara ry'umukara ndetse hari n'abanyamaguru.

Imodoka Nini cyane yifashishwa mugutwara imizigo iremereye. Iri mu ibara ry'umutuku, iri kugenda mu muhanda w'umukara wibinyabiziga, ndetse kuruhande hari ibindukik ije, higanjemo ibiti.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga harimo kugendamo imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abantu ndetse n'ibintu byabo, imbere gato hari inzu y'amahirwe ikinirwamo imikino itandukanye iri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'binyabiziga bigiye bitandukanye, ibinini n'ibiti. Hari gucamo akamodoka gato cyane kikorera imizigo myinshi. Kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikindi kinini kiri mu ibara ry'icyatsi.

Imodoka nini cyane itwaye imizigo igiye itandukanye kandi iremereye, iri mu ibara ry'umweru, iri kugendera mu muhanda w'ibinyabiziga w'umukara, kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, hirya yako hari ibiti by'ibidukikije.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bito ndetse n'ibinini bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini cyane gitwara imizigo kiri mu ibara ry'umweru, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Ahahagarara imodoka zitandukanye nini cyane zitwara abantu benshi, hari ibimodoka bibiri birimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hagati hari gucamo umugabo.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye binini ndetse n'ibito bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini cyane kikorera imizigo kirimo ibara ry'umutuku.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imodoka nini itwaye ibintu iri mu ibara ry'umweru, ku nkengero hari umugore ucuruje ibisheke.

Umuhanda w'umukara unyuzwamo n'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito, hari gucamo imodoka itwara imizigo iremereye yambukiranya imipaka iri mu ibara ry'ubururu ku nkengero hariho ibiti.

Imodoka nini cyane itwara imizigo ndetse igatwara n'abantu iri mu ibara ry'ubururu ku ruhande hari ibiducicishe biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bigizwe n'ibiti.

Umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye; ibyikorera ndetse n'ibitikorera, bitwara abagenzi benshi ndetse n'ikindi gitwara imizigo, hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse ku nkengero hari ibiti.

ikibuga kinini cyane giteyemo utwatsi duto duto tw'ubusitani, ku impande kure cyane hari ibiti by'ibidukikije bifata ubutaka, ndetse bigatanga n'umwuka mwiza duhumeka.

Isambu nini cyane iteyemo utwatsi dutoya tugizwe n'ibidukikije hakurya hari ishyamba rirerire kandi ryinshi ririnda umwuzure.

Ubutaka bunini butewemo utwatsi dutoduto tw'ubusitani hakubakwa cyangwa hakaba hahingwa ibintu bigiye bitandukanye ndetse bakaba bahatereka n'ikindi gikorwa.

Ikibuga kinini cyane kirimo ubusitani bw'utwatsi duto duto ku nkengero hari ibidukikije by'amashyamba y'inzitane adu umwuka mwiza.

Kiyobora cyangwa kiranga gishyirwa ku nkengero z'umuhannda kirimo amabara agiye atandukanye harimo umukara ndetse ndetse n'umuhondo.

Icyapa gishyira ku nkengero z'umuyhanda cyerekana cyangwa kiburira ibinyabiziga biri guca muri uwo muhanda, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Congo, hari ibyapa bibiri biri mu ibara ry'umweru byandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ikiri ku ruhande kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiranga cyangwa kiyobora ibinyabiziga, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, cyandikishijeho imibare yanditse mu ibara ry'umukara mirongo ine.

Icyapa kiranga cyangwa kiyobora gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara kikaba kigaragara.

Icyapa kiyobora bashyira ku nkengero z'umuhanda kiriw'i ibara ry'umweru umutuku ndetse n'umukara cyerekana yuko mbere gato hari umuhanda w'ikorosi kiri kandi mu mpande z'ibidukikije.

Igororero cyangwa ikigo cyimfungwa giherereye inyamagabe kikaba gifungiwemo abazira ibyaha bigiye bitandukanye, kumarembo hakaba hari ibyuma bisize amabara y'umuhondo n'umukara.

Icyapa kiranga cyangwa kibuza kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu gishyirwa ku nkengero z'umuhanda cyerekana ko hatemerewe guhagarara ibinyabiziga ibyo aribyo byose .

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda cyerekana akayira k'abanyamaguru aho baca bambuka, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, umugabo ushushanyijeho ari mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiranga aherekeza Rusizi ndetse hariho n'ishyamba rinini cyane rya Nyungwe, ribamo ibiti byinshi n'inyamaswa.

Ibyapa bibiri bishyirwa ku nkengero z'umuhanda, byerekana aho abanyamaguru banyura bambuka, biri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse bikaba byandikishijeho umukara.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Icyapa kiyobora gishyirwa ku muhanda kunkengero zawo kereka ibinyabziga aho binyura, kikaba kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyapa kiranga cyangwa kiyobora ibinyabiziga, kibaburira yuko imbere hari ikorosi riri mu kuboko kw'iburyo, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Icyapa kiri mubusitani gishyirwa kunkengero z'umuhanda aho cyerekana ko hatemerewe guhagarara ibinyabiziga, gisize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku handitseho pa iri mwibara ry'umukara.

Icyapa kiyobora, kiri ku ku muhanda cyanditseho pa, kerekana aho imodoka zihagarara, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ruhande hari ubusitani.

Icyapa kiri ku nkengero z'umuhanda kiri mw’ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Kikaba cyandikishijweho amagambo mw’ibara ry'umukara. Kandi kikaba cyerekana ko kuri uwo muhanda ari umuvuduko w’ ibilometero mirongo itandatu mw’ isaha.

Icyapa cyerekana yuko amagare atemerewe guhagarara aho hantu kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku gishyirwa ku nkengero z'umuhanda .

Inzu zubatswe mu kajagari nyinshi cyane, zifite amabara agiye atandukanye, ibidukikije byiganjemo ibiti bikurura umwuka mwiza duhumeka ndetse bikaba byafata n'ubutaka bikaburinda kwangirika.

Inzu y'igorofa ifite amabara y'umutuku ubururu ndetse n'umweru hanze hateye ibiti byimbuto z'imyembe, hirya gato hari inzu iri mu ibara ry'umutuku.

Inzu zubatse mu kajagari zirimo izifite amagorofa ndetse kuhande hari igiti cy'imbuto, iri mu bwoko bw'ipapayi izo nzu zisize amabara nk'umutuku n'umweru n'ayandi.

Mu isoko harimo ibintu byinshi bitandukanye: ibitenge, ijipo, imipira,n' amakabutura, n'amabara agiye atandukanye ,hasi hariho utuntu turimo tudoze mu bwoko tugiye dutandukanye, hariho umucyeka urambuye ahantu hejuru.

Inzu z'ubucuruzi zibatse mu buryo bw'amagorofa zigeretse, hakaba kandi hatangirwa ubufasha bugiye butandukanye harimo nkubw'irembo bwo kwishyura imisoro ndetse no kuba wabikuza amafaranga.

Ikigo gishinzwe gucuruza no gutunganya ibikoresho by' ubwubatsi , bikomeye Kandi birambye, giherereye mumugi wa Kigali, ushobora kubahamagara kuri gatandatu gatandatu, umunani umunani.

Inzu nyinshi ziri mu kajagari imbere yaho hari ibiti by'ibidukikije bifasha gutanga umwuka mwiza ndetse no gukumira isuri; bifata ubutaka hari amazu yubakishije amabati.

Amazu menshi ari mukajagari hejuru kumusozi, hari amagorofa yubatse neza ndetse akikijwe n'ibidukikije yiganjemo ibiti birebire.

Inzu ndende y'igorofa iri mu ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite ibirahure biri mu ibara ry'umukara birinda urumuri mu nzu ikaba kandi harimo amacumbi.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku murongo, zisize amabara ari mu irange ry'ubururu ndetse n'umweru, hacururizwa ikinyobwa cy'amata gikomoka ku nka, gitunganywa n'uruganda rw'Inyange.

Inzu z'ubucuruzi ziherereye mu mujyi wa Kigali mu gace k'i Giporoso hakaba hari aho bacura imfunguzo, ndetse hakaba no kugenda abantu b'urujya n'uruza, hakaba hahagaze ibinyabiziga bitwara abantu.

Inzu zubatswe mu kajagari zigiye zitandukanye, hari urusinga cyangwa umugozi wifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Mu nzu y'igorofa isize amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi haba hari amacumbi yo kuraramo ndetse n'uruganiriro ku bifuza kuba bagirana ibiganiro ku mpande zombi.

Ibidukikije bigizwe n'amashyamba n'ibiti bigiye bitandukanye umurima munini cyane uhinzwemo igihingwa k'ibigori hakurya hari amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho isize amarangi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, umukara, umweru n'andi ikaba ari igorofa rikikijwe n'ibirabo.

Inzu zubatse mu kajagari zicucitse zisakaje amabati ari mu ibara ry'umutuku, hakurya y'aho hari ishyamba rigizwe n'ibidukikije bitanga umwuka mwiza, ndetse bikarinda n'isuri.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga urujya n'uruza ku mpande hajya hari ubusitani bugizwe n'indabo z'icyatsi kibisi ndetse hakaba hari n'ibiti by'ibidukikije.

Ubutaka bunini cyane bwubatsemo n'amazu buherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kinyinya, bukaba buhinzwemo ibihingwa ndetse hakaba harimo amashyamba menshi.

Inzu nyinshi cyane zubatse mu bucucike bugiye butandukanye, zisakaje amabati ari mw'ibara ry'umutuku ndetse hariho n'ibidukikije byiganjemo ibiti byinshi by'amashyamba.

Inzu zubatswe mu buryo bwa kijyambere ziteye umucanga ndetse zubatse mu buryo bukomeye hejuru hagiye harimo ibigega bifata amazi mu gihe cy'imvura .

Menshi cyane ari mu kajagari ndetse ashobora no guteza impanuka zigiye zitandukanye mu gihe cy'imvura, hagati hagiye hateyemo ibiti bikurura umuyaga ndetse n'umwuka mwiza duhumeka bikarinda n'isuri.

Inzu y'igorofa yubatse neza ndetse mu buryo bukomeye, ikaba ifite amabara meza cyane arimo umweru, umukara ndetse n'umuhondo, hakaba hariho n'ubusitani burimo n'ibiti.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hariho kandi ku nkenyero agahanda k'abanyamaguru hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'ubururu.

Ikiraro kiri mu kirere cyubatswe mu buryo bukomeye, cyubakijijwe amabuye, umucanga ndetse n'ibyuma kugira ngo gikomere, hirya no hino hakaba hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Umuhanda ni uw'umukara urimo uturongo tw'umweru twerekana aho abanyamaguru banyura, ndetse uwo muhanda w'umukara ukaba ugendwamo n'ibinyabiziga ibinini ndetse n'ibito bitwara abantu n'imizigo.

Umuhanda wabugenewe unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ibyikorera ku giti cyabyo ndetse n'ibikorera muri rusange, hari kunyuramo ikinyabiziga kiriho umugabo ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'igitaka ufite akayira kanyuramo amazi ndetse hakaba hari n'ibidukikije byiganjemo amashyamba akurura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, kunkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'amatara yo kumuhanda, hakaba hari n'ibidukikije.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse hakaba n'akayira k'abanyamaguru, hari kandi ibiti bigiye biri ku nkengero by'ibidukikije bitanga umwuka mwiza bikarinda n'isuri, hari igiti kirekire cyane kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bito ndetse n'ibinini ufite amabara y'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura ndetse hakaba hari n'ikinyabiziga kiri gucaho

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ibinini ndetse n'ibito bitwara abantu ndetse n'imizigo, harimo uturongo tw'umweru twerekana aho abantu banyura.

Inzu nyinshi zubatse ku murongo, zisize irange ry'umuhondo ndetse hakaba hubakishije intangiriro y'amabuye akomeye n'utwuma tugiye turi hagati y'inkuta, ku mpande hari ubusitani.

Umukara urimo uturongo turi mu ibara ry'umuhondo ndetse unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'imizigo hari gucamo imodoka ifite ibara ry'umweru itwara imizigo.

Ibidukikije biri ku mpande ku nkengero z'umuhanda ndetse n'ubushitani burimo indabo hari umuhanda wumukara ugendwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga, ibito ndetse n'ibinini, hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse igeze ahari imirongo y'umweru inyurwamo n'abanyamaguru mu gihe cyo kwambuka.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hirya hari ibidukikije byiganjemo ibiti ndetse n'ubusitani bw'indabo nziza cyane.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga, bigiye bitandukanye. Hari kandi imirongo iciyemo y' umweru yerekana ahagenewe abanyamaguru bambukira. Ndetse ku mpande hari ibidukikije.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda w'umukara urimo uturongo tw'umweru, tugaragaza aho abanyamaguru banyura bambuka. Kumpande hakikijwe n'ubusitani bwiza bugizwe n'indabo.

Imihanda iri muibara ry'umukara inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, binini ndetse n'ibito bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka zifite ibara ry'umweru.

Umuhanda w'umukara ukoreshwa n'ibinyabiziga, hari gucamo imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu biri mu ibara ry'umukara, ku mpande ku nkengero hagiye hariho ibiti.